Abagabo babiri bambaye inkweto zabugenewe bari gushyira imvaruganda ku gihingwa cy'ibigori, kugira ngo kimere neza.

Imbuto bazishyira mu butaka maze ubukonje bugatuma urwo rubuto rumera, maze hakavamo imyaka.

Amacupa abiri, ariko afite umuti umwe, ukoreshwa mu kwica udukoko turi mu bihingwa.

Rokete umuti wica udukoko. Abahinzi benshi bakunda kuyikoresha. Kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi cyane. Kandi ikabungura.

Mu buhinzi bwateye imbere, indege ni zo zisigaye zitera imyaka imiti ni byo byiza.

Amacupa menshi atandukanye akoreshwa n'abahinzi. Harimo umuti abahinzi batera mu myaka, kugira ngo Yere neza.

Kugira ngo ibihingwa byere neza, bakoresha ifumbire mvaruganda, kugira ngo bizagire umusaruro mwinshi kandi mwiza, bikungura abahinzi.

Kugira ngo imyaka itibasirwa n’udukoko, hakoreshwa imiti yabugenewe kugira ngo bazirwanye.

Ifumbire mvaruganda abahinzi benshi barayikoresha, kugira ngo ibihingwa byabo bimere neza bizane umusaruro ushimishije bizabateza imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Imiti bakoresha kugira ngo imyaka itaza kwangizwa n'udukoko, bigatuma umusaruro ugabanyuka.

Inyanya bazitera umuti kubera ko zigira ibyonnyi byinshi, batawuteye ntabwo zakwera.

Abahinzi benshi bigaragara ko harimo n'abashinzwe umutekano b'abasirikare. Aho bari gutera umuti ku gihingwa cy'ibigori, kugira ngo bazabone umusaruro mwiza.

Igishashi kirimo umuti bakoresha mu gutera imyaka, kugira ngo ikomeze kumera neza.

Amacupa abiri apfundikiye neza, kubera ko harimo umuti abahinzi bifashisha bari gutera mu myaka yabo, kugira ngo itangizwa n'ibyonnyi by'udukoko.

Kugira ngo igihingwa cyere neza ni uko kigomba guterwa umuti, bityo umuhinzi akabona umusaruro mwiza.

Umuhinzi ari gutera umuti afite ipombo. Kandi iri gutera neza cyane izatuma abona umusaruro mwiza.

Umuhinzi uri gutera umuti mu myaka, aho imyaka izakura neza azabona umusaruro mwiza.

Bimwe mu bikoresho bifashisha mu isuzuma, aho bamwe mu bahanga, mu bahinzi bapima ubutaka.

Ifumbire y’imborera ni nziza cyane kuko ituma ibihingwa byera neza bigateza imbere abahinzi.

Abaturage ni benshi barenga icumi, aho barimo gutegura ifumbire y'imborera, kugira ngo bazayikoreshe mu buhinzi bwa bo.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe, agiye kuroba amafi, impande y'ikiyaga kiriho ibihingwa.

Abantu biga iby'ubuhinzi, bakora ubushakashatsi ku bihingwa bimwe na bimwe, kugira ngo bamenye uburyo mu kubyitaho, bakongera umusaruro.

Abagabo babiri bafashe amafi bagiye kuyakura mu mazi, bayashyire imusozi maze bayagurishe.

Mbega inyama nziza cyane y'ifi iri ku isahani, aho batari bayiteka kugira ngo iribwe, batanga amafaranga!

Abantu benshi biganjemo igitsina gore, aho bari mu gikowa cyo kuroba amafi mu cyuzi.

Ibiribwa biteguye neza, aho harimo inyama y'ifi, ni nziza cyane abantu benshi barabikunda, harimo ibirungo byinshi bitandukanye.

Inyama y'ifi, yateguwe neza cyane, hari ifoke iri gukoreshwa mu kurya iyo nyama y'ifi.

Mbega ifi nziza! Amafi abiri ari ku isahani hariho n'ibirungo, abantu benshi barayakunda kandi araryoha cyane batanga amafaranga kugira ngo bayarye.

Amafi yarobwe bitegura kuyagurisha, cyangwa se bayateguremo amafunguro, bityo bikabateza imbere.

Inyama y'ifi, iyo iteguranywe ubuhanga abantu benshi barayikunda, kubera uburyohe iba ifite.

Ifi yokeje neza, aho abakiriya bayigura kugira ngo bayirye.

Iyo ifi bayikabushije, bayishyira muri barafu, kugira ngo itaza kwangirika cyangwa ngo ibore.

Kugira ngo amafi atangirika, bakoresha uburyo bwo kuyasiga umunyu, bityo abakiriya bakayabona atangiritse, bityo bakishyura amafaranga bishimye.

Mu biyaga habamo ahantu baba barubatse, kugira ngo bajye bahifashisha mu gihe bari kuroba.

Umusaruro w'amafi, aho abarobyi bavuye kuyaroba, kandi bizabateza imbere mu buzima bwa buri munsi.

Amafi ane ari ku cyokezo, aho yokejwe neza cyane n'umutetsi wabihuguriwe.

Amafi yarobwe aho bategereje kuyajyana ku masoko ngo abakiriya bayagure.

Amafi ari mu gatete, abarobyi bavuye kuyaroba bari kuyatunganya kugirango abakiriya bayagure ameze neza.

Inyama y'ifi ni nziza cyane, kuko igira intungamubiri zituma umubiri w'umuntu ubaho neza.

Isambaza, abantu benshi barazikunda. Aho abarobyi bajya mu Kivu , bakaziroba, bakazizana ku isoko.

Insambaza ni nziza cyane, abantu benshi barazikunda. Abarobyi baraziroba mu kivu, maze bamara kuziroba, bakazigurisha.

Amafi menshi cyane yarobwe. Aho bayajyana ku isoko kugira ngo bayagure, maze abantu bayarobye bakabona amafaranga menshi cyane.

Ifi ni nziza cyane igira uburyohe budasanzwe, aho iri kumwe n'ibirungo bitandukanye.

Mbega ifi iryoshye cyane! Iri kumwe n'ibirungo bitandukanye ndetse n'inyanya.

Amafi barobye ni meza cyane, kuko iyo uyariye ugira ubuzima bwiza, ndetse ukumva umeze neza.

Amafi bafashe aho bayakuye mu mazi, bayarobye. Aratuma abayarobye babona amafaranga.

Inyama ziteguye neza bigaragara ko ari iy' ifi, iraryoha cyane abantu benshi barayikunda, kandi abarobyi babona amafaranga aho bazigurisha abantu benshi.

Ifi iteguye neza irokeje ku makara, kandi abantu benshi barazikunda bagatanga amafaranga.

Ifi itetse neza. Irambitse ku isahane kandi zikunze gutekera mu maresitora cyangwa mu mahoteri.

Igiti giteye impande y'ikiyaga, aho ikiyaga kirimo amazi atari menshi.

Ubutaka buteguye neza ni bwiza, kuko butuma imbuto yera neza, bigatuma umuhinzi atera imbere.

Ishyamba ririmo ibiti birebire cyane, harimo n'ibindi bigikura bitoya, aho babiteye kugira ngo biteze imbere.

Mu murima basaruyemo ibigori, hagaragaramo ibikenyeri byasigayemo, kandi bakabikoresha.

Igihingwa cy'amajeri kimaze gukwirakwira hose mu Rwanda, araryoha kandi arahenda cyane ku isoko.

Igihingwa cy'ibigori giteye ku butaka burambuye, harimo n'insina zitarera. Nta bitoki zifite .

Amajyeri n'igihingwa cyiza rwose, kandi bagitegura mu mafunguro, mu buzima bwa buri munsi basagurira n'amasoko.

Umurima uteyemo imyaka kandi ugomba kuba uhinze neza kugira ngo izere neza.

Ubuhinzi bw'amajyeri buri ahantu henshi cyane mu Rwanda, aho bibungura kandi bikabateza imbere.

Ubuhinzi bw'urutoki bumaze kwamamara henshi cyane cyane abahinzi babwo, babwitaho kugira ngo bazabone umusaruro mwiza.

Igiti giteye ni byiza kuko bituma ubutaka bukomera maze ukaburinda isuri, gutenguka, ndetse n'ibindi.

Dore ibigorigori, aho bamaze gusaruramo ibigori bajya kubihunika, umurima usigaramo ibisigarizwa.

Iyo ibigori byeze barabisarura maze ibigorigori bigasigara mu murima, kandi babikoresha nk'imishingiriro.

Imboga rwatsi. Zigira vitamini nyinshi cyane, iyo waziriye zikurinda indwara, kandi nawe ukumva wishimye cyane.

Amateke ya bungubungu abantu benshi barayakunda, kuko akunze kwera ku butaka bumwe na bumwe.

Abaturage benshi bavuye guhinga mu mirima, aho baba babukereye kugira ngo bajye guhinga iyo mirima.

Ikigo cy'amashuri, imbere yacyo harimo igihingwa cy'amashu. Aho bakifashisha nk'imboga, mu myigire ya buri munsi, kugira ngo abanyeshuri bige neza.

Ibihaza ndetse n'ibishimbo byarandaranze ku ruzitiro. Bituma kwa nyiri uruzitiro abona ibyo kurya.

Igiti kigaragara ko ari igiko, impande yacyo hariho amazi menshi bisa nk'aho ari mu gishanga.

Ubutaka buhinze neza, buba nta byatsi birimo. Aho imbuto bayiteramo ikamera neza, nta kibazo.

Umurima uteyemo amashaza. Namara kwera bazasarura, maze bayagurishe.

Imirima myinshi cyane, iri ahantu harambuye, iteguye ku buryo wateramo imbuto zikera neza.

Ibigori bitarera neza bagomba kubyitaho, kugira ngo bazabone umusaruro mwiza kandi mwinshi bakabona amafaranga atubutse kandi menshi.

Ubutaka buteguye neza butuma imbuto bateyemo imera neza, bityo igatanga umusaruro mwiza.

Mbega ibirayi! Bihinzwe mu murima ufite ubuso bunini cyane, aho abahinzi babihinga kugira ngo biteze imbere.

Igishyimbo iyo kimaze guterwa kiramera, bakagishingirira maze kikaranda kuri icyo giti bakagisarura.

Umworozi uvuye kuragira inka ze, zamwungura zimuhe umusaruro mwinshi cyane nko gukama maze nizimara gukura azigurishe.

Ingemwe z'imisave ni nziza cyane, kuko abantu iyo baziteye bakora ishyamba ry'ibiti, bikazabateza imbere.

Igihingwa gikoreshwa nk'umuti cyitwa inkarishya. Zirasharira cyane nta bwo abana bakiri batoya bazikunda.

Igihingwa cy'ibirayi ndetse na karoti, ni bimwe mu byamamaye cyane mu Rwanda, aho byungura abahinzi cyane.

Ubworozi bw’amajeri ni bwiza cyane, kuko abantu benshi barayakunda. Bigira amafaranga aho abacuruzi babona agatubutse binyuze mu kuyajyana ku isoko.

Umusave, ingemwe y'umusave ni nziza cyane, kuko iyo igiti gikuze baracyasa cyangwa se bakakibazamo imbaho.

Igihingwa cy'ingano ndetse n'icy'umuceri, ibihingwa bihingwa ahantu henshi ariko hadahuje ubwoko.

Igisigati cyangwa se ikigorigori, aho ibigori byeze arabisarura, maze hasigaramo ibigorigori.

Igiti cy'avoka, ni imbangurirano, zera vuba, abahinzi benshi bakunda kuzihinga, Leta y'u Rwanda ishishikariza abahinzi kuzihinga.

Mu karima k'igikoni habamo ibintu byinshi by'ibiribwa bitandukanye. Nk'imbogagwatsi, garukusorome, ibidodoki n'ibindi.

Ubwatsi barabutera, maze bakabona uko bagaburira inka zabo, ni byiza byungura aborozi benshi.

Ubuhinzi bw'ibirayi, bukunze kugaragara ahantu ho mu majyaruguru cyane. Aho bagira umusaruro mwinshi, ukabona n'amafaranga menshi.

Igihingwa cy'ibirayi ni cyiza cyane. Abahinzi benshi bakunda kubihinga kuko bibamo amafaranga menshi, bityo bikabateza imbere.

Ibiti byinshi bikoze uruzitiro, ni byiza cyane kuko biduha umwuka wo guhumeka, kandi bitanga n'imiti.

Urutoki ni rwiza cyane, iyo ibitoki byeze, umuhinzi arabigurisha agakuramo amafaranga atari makeya, akiteza imbere ,n'igihugu muri rusange.

Ihene ifite urugara, ifite amahembe maremare. Ni nziza cyane. Yorowe kijyambere, ifite amabara menshi atandukanye.

Avoka ni igihingwa cyiza cyane. Aho abantu benshi bagikunda, ni byiza kuko cyungura abagihinga kandi n'abakigura ntibahendwe.

Amateke ya bwayisi ni meza cyane, abantu benshi barayakunda, asa nk'umukara imbere.

Amateke yabungubungu ni meza cyane ariko siyo gusa haba bwayisi nayo ni ubwoko bw'amateke abantu benshi bakunda bategura nk'amafunguro.

Avoka nyinshi zipakiye mu bikarito aho zivamo ibintu byinshi bitandukanye harimo amavuta, imiti, ndetse n'ibindi.

Mbega ibirayi! Ni byiza cyane aho biri mu isoko, abantu bafite ubushobozi bwo kujya kubigura.

Umugore wambaye itaburiya, aho ari kwita ku myaka ye y'ibishyimbo.

Abahinzi benshi batandukanye bari guhinga ibigori bikiri bitoya bakabisarura bakabigeza ku nganda zigakoramo umutsima.

Ibishymbo biri mu mabara atandukanye, ni byiza cyane kuko iyo wabiriye, ugira ubuzima bwiza kandi ukaryoherwa.

Ipera rya kizungu ntabwo risanzwe. Ntabwo rimera nk'irya kinyarwanda. Irya kizungu rigira mu nda hasa n'umweru na ho irya kinyarwanda rigira mu nda hasa n'umutuku.

Mu isoko ry'ibiribwa hagaragaramo ibintu byinshi bitandukanye, intoryi, puwavuro, inyanya, amashu ndetse n'ibindi.

Umudamu yabukereye rwose. Ari guhingira imyaka ye bizamuteza imbere, kandi azabona amafaranga menshi mu musaruro.

Ubuhinzi bw'insenda ni bwiza cyane kuko abantu benshi bakunda kurya urusenda, kandi bakabona amafaranga.

Insenda z'umutuku ni ubwoko bumwe, si bwo gusa buhaba ahubwo iz'umuhondo, iz'icyatsi nazo zibaho.

Umudamu uri mu gihingwa cy'ibigori , aho arimo kucyitaho, kugira ngo azabone umusaruro mwiza .

Mu gikoni habamo ibintu byinshi bitandukanye, kandi inyama ni nziza cyane mu mubiri w'umuntu.

Umugabo afite ingofero y'umuhondo ayambaye, yambaye n'umwenda wabugenewe.

Imyumbati abantu benshi barayikunda, kandi iraryoha cyane, kuko abahinzi baba barayihinze neza.

Umudamu witeze igitambaro, yambaye n'ikoti ry'umweru n'umukara afite pepenyeri arishimye cyane azazitera mu butaka bwe.

Abagabo batatu bari kubagara shufureri, kandi ni byiza, zatuma ubona umusaruro ushimishije.

Ibijumba ni byiza cyane. Ni kimwe mu biribwa abantu benshi bakunda kurya, mu bubuzima bwa buri munsi.

Abantu benshi bambaye impuzankano, iruhande rwabo hariho igiti cy'umwembe, ni cyiza cyane abantu benshi baragikunda kandi cyungura abahinzi benshi.

Abantu benshi bari mu murima uhinzemo ibigori, aho barimo kubisarura byamaze kuma . Nibabigeza mu rugo, bazabihunika .

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibintu byinshi bitandukanye nk'amaronji, amashaza, imyembe, bidodoki ndetse n'ibindi.

Umusaza uri guseka cyane, yambaye ikoti ry'umutuku afite n'isuka. Yambaye n'ingofero aho yishimiye ubuhinzi bwe.

Abaturage benshi bavuye gusarura igihingwa cy'icyayi. Aho bakijyanye ku ikusanyirizo, maze babahe amafaranga.

Buri muhinzi wese agomba kwita ku gihingwa cye , bityo akazabona umusaruro mwiza , umugabo uri mu gihingwa cye cy'ubunyobwa kugira ngo azawusarure mu ngano nini.

Abantu benshi kandi banyuranye harimo abana, abagabo n'abagore bari mu bihingwa by'insina, aho bari guhugurwa uburyo bwo kubihinga neza.

Amatunda atukuye neza, bigaragara ko yeze neza, aho bayasoroma bakayajyana ku isoko.

Ibisate bibiri by'avavoka. Aho iryoha cyane, abantu benshi barayikunda cyane.

Abagabo babiri bambaye imyambaro y'umukara. Uwo hino yambaye ishati y'umweru, aho bishimiye umusaruro babonye.

Avoka ni nziza cyane ziraryoha ku kigero kitabarika, kandi zivamo amavuta, kandi zigira intungamubiri.

Igihingwa cy'ibirayi buri muhinzi wese agomba kucyitaho, bityo kikera neza bakabona umusaruro utubutse.

Abahinzi, umugore n'abagabo babiri, bari mu gihingwa k'icyayi, aho bazagisarura.

Amapera ni rumwe mu mbuto zikunzwe cyane mu Rwanda. Aho abantu benshi bazikunda, kandi ziraryoha.

Umuhinzi w'igihingwa cy'ibirayi kizamuteza imbere n'umuryango we ndetse n'igihugu, aho azasarura umusaruro mwinshi.

Amahene ari ahantu hanini. Ni menshi cyane, bishoboka yuko bagiye kuyagurisha, kugira ngo babone amafaranga, abahinzi n'aborozi bakiteza imbere.

Igiti cya avoka, kirimo imbuto nyinshi, aho zikeneye kwera maze bakazisarura, bazisoromye.

Mu buhinzi bwateye imbere ahantu habugenewe hafataga bakahatera imyaka maze bakiteza imbere.

Amatunda ni menshi ari mu murima ahinze. Ni imbuto nziza cyane, kuko abantu benshi barayakunda.

Ku mihanda usanga hari abantu baba batanditse, imifungo y'imbuto myinshi itandukanye harimo: imyembe , avoka ndetse n'izindi.

Abagabo benshi, bari ku gihingwa cy'ibirayi, bambaye imipira y'icyatsi.

Igihingwa cy'ibigori bitari byera, aho bagomba kubyitaho, kugira ngo bazabone umusaruro bifuza.

Umudamu uri mu gihingwa cy'ibishyimbo, aho bigaragara ko bifite umushogororo mwiza cyane.

Ubuso bunini bw'umurima, buteyeho ibigori byinshi biteye ku murongo. Ni byiza bazakuramo umusaruro utiyoroheje mwinshi cyane.

Amaterasi y'indinganire arinda isuri, bikongera umusaruro, bityo abaturage bakiteza imbere, n'igihugu muri rusange.

Umukecuru uri gutegura ubutaka bwe, ari kubuhinga neza kugira ngo azateremo imyaka ye ngo izere neza.

Abagabo babiri bafite amapombo bari gutera umuti mu bigori kugira ngo bizere neza.

Amagi menshi ari mu gitete. Amagi agira umumaro mwinshi, aho bayarya cyangwa se bakayajyana mu mashini zabugenewe, zikayaturaga.

Iyo ibirayi byasaruwe, barabijyana bakabishyira hamwe, bamara kubishyira hamwe, bakabipakira bakabijyana ku masoko.

Ku mihanda, hagaragara abantu benshi bacuza ibintu by'amafaranga make, kugira ngo bunguke .

Urubuto rw'umwembe rusa nk'aho rwangiritse, umuhinzi wese agomba kuzisura, kugira ngo arebe niba nta yangiritse irimo.

Umudamu wambaye imyenda yabugenewe, aho yikoreye ifumbire, agiye gufumbira ubutaka kugira ngo imyaka izere neza.

Umudamu yambaye agatambaro mu mutwe, ari mu gihingwa cy'inkeri. Aho nizimara kwera azazisarura maze azigurishe.

Abakobwa babiri bambaye imyambaro itandukanye, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye igiteteyi cy'umukara bavuye gusarura imyaka.

Igihingwa cy'umuceri ni cyiza cyane, kubera ko cyungura abagihinze. Aho iyo weze bagisarura, bakagitunganya, bakakijyana ku isoko.

Ibisate bibiri bya avoka. Avoka ni nziza cyane abantu benshi barayikunda, kandi iyo wayiriye umererwa neza.

Abahinzi benshi batandukanye bisa nk'aho ari koperative ihinga, aho bari kuvomerera imyaka nk'imboga.

Voka nyinshi zasaruwe, aho bazazifashisha mu kuzirya cangwa se bazijyane ku isoko.

Amashu ni meza cyane, iyo abantu bayahinze arabungura maze bakabona umusaruro, ndetse n'amafaranga menshi.

Abantu bafite ibyokezo, nk'imbabura, aho bari kotsa ibigori, abantu banyuzeho ngo babigure.

Igihingwa cy'ikawa gikijije benshi mu Rwanda, aho bayisarura bakayigemura ku nganda, bityo bakayisohora igihugu bakabona amafaranga menshi.

Ubuhinzi bw'ibigori bumaze kugera hose, aho buri muhinzi aba afite ubushobozi bwo kubihinga.

Mu masoko y'ibiribwa hiberamo ibiribwa byinshi, nk'imbuto nyinshi zitandukanye, harimo amapapayi, ibitunguru, avoka ndetse n'ibindi.

Amasaka ni meza cyane. Abantu benshi barayakunda cyane, kuko araryoha barayabetesha bagakoramo umutsima witwa rucakarara.

Ipera ni ryiza cayne, abantu benshi bararikunda, kuko rigira uburyohe ntagereranywa, kandi ndarigura cyane.

Abantu benshi bavuye gufata pepeniyeri, zirimo ibiti aho babitera kugira ngo barinde isuri ndetse n'inkangu.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibiryo byinshi bitandukanye nk'imishogi y'ibishyimbo, amaronji, avoka n'ibijumba.

Abantu benshi biganjemo abagore harimo n'abagabo, bari gusarura igihingwa cy' icyayi, ni cyiza cyane, abantu benshi baragikunda.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibiribwa byinshi. Nk'ibitunguru, inyanya, wotameloni, kokombure, ndetse n'ibindi.

Abahinzi benshi bakunda guhinga imbuto z'amapapayi, ni nziza cyane abantu benshi barayakunda aho bakunda kuyarya.

Mu isoko ry'ibiribwa cyane cyane iry'i Musanze, habamo imbuto nyinshi zitandukanye nk'amaronji, amapera ndetse n'izindi.

Ibitoki byiza cyane, abantu benshi barabikunda, kandi byungura abahinzi, kubera ko bigira amafaranga menshi.

Ibinyomoro ni byiza cyane, abantu benshi barabikunda, birinda indwara byongera amaraso mu mubiri, kandi byungura abahinzi cyane.

Igihingwa cy'ibirayi ni cyiza cyane, cyungura abagihinze kandi babaho neza, aho babona amafaranga aturutse mu kugisarura.

Iyo ibigori bihinzwe habamo umusaruro mwinshi, aho iyo babisaruye babica bitarera neza bakabyotsa, byamara kwera bakabihunika.

Ibijumba ni igihingwa cyiza cyane, aho buri muntu wese yifuza kukirya, bityo bituma abahinzi bitabira kugihinga.

Voka ni urubuto rwiza cyane, rukungahaye ku mavuta. Iyo waruriye rukurinda indwara nyinshi zitandukanye.

Abahinzi bari mu gishanga aho hateyemo igihingwa cy'umuceri, ni cyiza cyane abantu benshi barawukunda kandi ugira amafaranga menshi.

Abantu batari bakeya bishimiye gusoroma igihingwa cy'ikawa. Kandi ni cyiza rwose kirabungura.

Imbuto nziza cyane, zirakase izindi zirarundanyije. Indimu zahinzwe neza kandi zikaba zarasaruwe.

Igihaza gisa n'umuhondo ni kiza cyane, abantu benshi bakunda kukirya kuko gifite uburyohe budasanzwe.

Ibisheke ni byiza cyane, bikunze guhingwa ahantu ho mu bishanga, babikoramo isukari.

Ihene ifite amahembe maremare. Iramutse igusekuye, yakwangiriza cyane, bikakuviramo n'ubukomereke.

Amateke ni kimwe mu biribwa bikunzwe cyane mu Rwanda, aho abatari bakeya bagikoresha mu mafunguro ya buri munsi.

Abantu benshi harimo abagabo, abagore, ndetse n'abana, bari mu gikorwa cyo gusarura imbuto za avoka.

Igihingwa cya pavuro ni cyiza cyane, kigira amafaranga kubera ko abantu benshi bazikunda, aho bategura amafunguro ziriho.

Mu isoko ry'ibiribwa haba hatanditsemo ibiribwa byinshi bitandukanye. Nka shufureri, wotameloni, intoryi, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Kugira ngo umuhinzi abone umusaruro mwiza, nuko agomba kwita ku gihingwa cye.

Ibigori bitarera neza aho abantu benshi bakunda guhinga ibigori kuko bibateza imbere.

Mbega ibijumba byinshi! Aho bitegereje abantu, kugira ngo babigure bajye kubirya mu miryango yabo.

Umugore uri mu gihingwa cy'ibishyimbo, ari kubyitaho kugira ngo umusaruro uziyongere, kandi akabona amafaranga menshi, binyuze mu kuwugurisha.

Abahinzi babona amafaranga menshi, aho bahinga imbuto zabo bakiteza imbere binyuze mu kuzigurisha.

Imbuto nziza cyane z'amaronji , abantu benshi barazikunda. Aho zigira uburyohe budasanzwe, kandi ziboneka henshi .

Imyumbati, ni byiza guhinga imyumbati mu mirima yacu, kuko abantu benshi bayikunda kandi iraryoha cyane.

Abantu batari bakeya harimo abagabo, abagore, ndetse n'abana, bari kwita ku gihingwa cy'ibigori, kugira ngo kizere neza.

Inanasi nyinshi cyane ziragerekeranije, aho zimwe zisa umuhondo, izindi zigasa n'icyatsi. Abantu benshi barazikunda n'abahinzi benshi bazijyana ku masoko.

Umudamu afite amashu abiri, ayajyana ku isoko cyangwa se akayajyana mu rugo akayarya.

Ibiryo by'inkoko biboneka henshi cyane, zirabikunda kandi zigira intungamubiri, bigatuma zikura vuba maze aborozi bakabona umusaruro mwiza.

Umugabo uhetse ipombo n'umupira w'ingofero, hari mu gihingwa cy'ibirayi kandi ni byiza bizamuteza imbere.

Imbuto nini cyane ziba ziri mw'ibara ry'umutuku ziba zimeze nk'intoryi ni nziza cyane kuko abantu benshi barazikunda.

Ku mihanda, abaturage baba batanditse ibiribwa byinshi bitandukanye, nk'inyanya ndetse n'intoryi, kugira ngo abantu babigure.

Umudamu uri guseka, afite impungure mu biganza bye. Inyuma ye hariho amahundo menshi amanitse, aho bazayakoresha mu gihe kizaza.

Indimu urubuto rwiza cyane, abantu benshi barufata nk'umuti, aho ivura indwara nyinshi zitandukanye nko mu nda.

Amakoperative n'amashyihamwe bikorera hamwe, kugira ngo batange umusaruro mwinshi cyane, bigateza imbere igihugu.

Inka nyinshi ziri mu rwuri, aho baziragiye ngo zirishe, maze zizakure, zitange umusaruro uhagije.

Amashaza abantu benshi bari kuyitaho kugira ngo yere neza, aho bayashingirira kugira ngo azamuke.

Mu isoko habamo ibiribwa byinshi bitandukanye harimo: pavuro, amacunga, indimu, n'intoryi.

Kugosora ikawa ni byiza kuko bikuramo imyanda yatuma bidasa neza.

Mu isoko ry'ibirayi, habamo ibikoresho byinshi kugira ngo babipime, kugira ngo bamenye ingano zabyo, kuko biba biri mu mifuka,..

Igihingwa cy'amateke ni cyiza cyane abantu benshi baragikunda, aho mu Rwanda hose kihaboneka kandi kiragurishwa.

Ibitunguru byinshi , ubuhinzi bw'ibitunguru bumaze gukwirakwira henshi cyane mu Rwanda, aho bwungura abaturage babuhinze kandi ni bwiza rwose.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo imbuto nyinshi zitandukanye, ndetse n'imboga nyinshi. Harimo ibitunguru, pwavuro, inyanya ndetse n'ibindi.

Ibitoki byinshi bisa nk'aho biri mu isoko, aho abaturage babizanye kugira ngo babigurishe babonemo amafaranga.

Ibireti ni ubwoko bw'igihingwa ngengabukungu, aho bagisoroma bakakijyana mu nganda bakagikoramo imiti.

Igiti cy'umwembe cyiza cyane, abantu benshi baragikunda kuko kiraryoha, kandi zungura abagihinze.

Avoka nziza cyane, ivura indwara nk'izo mu nda. Bakoramo amavuta, kandi yunguraga abayihinze.

Umudamu ufite ibyishimo byinshi bigaragara ko umusaruro we uturutse ku gihingwa cya karoti wabaye mwinshi kandi ushimishije.

Wotameloni ni igihingwa cyiza cyane, kuko abantu benshi baragikunda, bityo kigateza imbere abantu benshi.

Abantu benshi batari bakeya biganjemo abagabo bari kwita ku gihingwa cy'uburo, aho bazabusarura bakabona amafaranga menshi.

Ibishyimbo bya nyiramukara ni byiza cyane kuko abantu benshi barabikunda, kandi umuhinzi wabihinze biramwungura.

Iyo igihingwa cy'umuceri cyeze, baragisarura, bakagihura, maze bakagitunganya, kikajya ku isoko.

Abantu batatu bari kurobanura imyaka, kandi kugira ngo bayijyane ku isoko bagomba kubanza kuyitunganya.

Ubunyobwa budatonoye ni bwiza, abantu benshi barabukunda, kandi buteza imbere ababuhinga, n'igihugu muri rusange.

Iyo ubunyobwa bugiye kwera, buzana indabo z'umuhondo, bigakangurira abahinzi, kugira ngo babe bitegura kuzisarura.

Igihingwa cy'ubunyobwa ni cyiza cyane, kuko cyungura abagihinga, kandi bikabateza imbere mu miryango yabo ndetse n'igihugu.

Iyo igihingwa cy'ingano bagisaruye, bagikusanyiriza ahantu hamwe, maze bakagihunika.

Igihingwa cy' igihwagari ni cyiza cyane aho abahinzi benshi bakunda kubihinga, abantu benshi na bo bakunda kugura amavuta yaturutse mu bihwagari, kuberako aryoha.

Imifuka myinshi irimo imyaka basaruye, aho tubanza kuyanika kugira ngo itazangirika.

Umusaruro w'ubunyobwa aho babusaruye kugira ngo babutegure baburye, cyangwa babujyane ku isoko.

Igihingwa cy'amasaka kiri henshi cyane mu Rwanda, kandi abahinzi benshi bakunda kugihinga kuko kigira amafaranga menshi.

Amasaka ni ikintu cyiza cyane, abantu bose bagomba kwitabira gufata ku mafunguro ya buri munsi.

Mu Rwanda hiberamo ibintu byinshi bijyanye n'ubuhinzi aho imiteja ndetse n'ibindi bihingwa.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane abantu benshi baragikunda. Ubunyobwa bakoramo amavuta, bagakoramo ifu yo kurisha mu biryo.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bwaramamaye cyane mu Rwanda, barabishingirira bigatonda kuri ibyo biti, byamara kwera bakabisarura.

Umudamu ufite igitebo kirimo imyaka, avuye kuyisarura ayijyanye mu rugo.

Umufuka urimo ibishyimbo ni bbyiza cyane, kuko iyo wabiriye bituma umubiri ukura neza.

Ubuyobwa buri mu mufuka, aho batari babutonora, kugira ngo bube bwaribwa, cyangwa se bwakorwamo amavuta.

Mu ihunikiro harimo amahundo menshi y'ibigori, aho iyo bamaze kubisarura babikusanya bakabishyira mu ihunikiro.

Umuceri iyo bawusaruye ushobora guhita uwuhura, ukawuhunika uhuye ariko ibi si ngombwa kuko wanawuhunika udahuye.

Ibishyimbo byitwa nyiramabara biba bifite amabara atandukanye, ni byiza cyane abantu benshi barabikunda.

Abantu b'abagabo batatu bari gusarura igihingwa cy'amasaka y’amahundo bagiye kuyahunika.

Umugabo wambaye umwambaro wabugenewe w'itaburiya, aho akora mu ruganda rutunganya umuceri.

Ibigori by'amahundo bimanitse aho babihunitse. Kugira ngo bazabone uko babikoresha mu gihe kiri imbere.

Ubunyobwa ni bwiza cyane. Abahinzi benshi bakunda kubuhinga, aho iyo bweze babusarura, maze bakabujyana ku masoko, cyangwa se nabo bakaburya.

Iyo imbuto ihuye n'ubukonje cyangwa amazi, zitangira kuzana imizi maze zikamera.

Ibigori iyo byeze, ibihu byabyo biraraba maze bikuma, ari byo bibwira umuhinzi ko agomba gusarura.

Ibishyimbo by'ubwoko bwiza cyane, abantu benshi barabikunda kuko biryoha cyane. Kandi babitegura nk'amafunguro.

Iyo ibishyimbo babikuye mu murima, barabihura ku mahema, bityo bigasandagurikaho bakabiyora.

Igihingwa cy'imiteja ni cyiza cyane. Abahinzi benshi baragihinga kandi bakakijyna ku masoko. Abantu bakakigura, bakabaha amafaranga menshi.

Ubunyobwa butaratunganywa neza ku buryo umuntu atahita abwifashisha nk'amafunguro, ubunyobwa ni bwiza cyane abantu benshi barabukunda.

Ibishyimbo biri mu ngemeri, aho umuhinzi ari kubirenga ngo abiteke cyangwa se abigurishe.

Mu ikusanyirizo habamo ibintu byinshi, ibishyimbo, ibigori, aho abasaruzi babijyanayo kugira ngo bizahumire, maze bazabikoreshe igihe gitaha.

Ubunyobwa bataratonora, aho babanza kubutonora maze ubunyobwa bakabujyana ku isoko cyangwa bakabuteka.

Umusaruro w'imiteja ni mwiza, kuko abantu benshi barayikunda, igira uburyohe bwinshi cyane.

Ibishyimbo byumye ni bimwe mu bikunzwe cyane, aho babihunika kugira ngo bazabiteke mu minsi izaza.

Abagore batatu bari mu gikorwa cyo gusarura ubunyobwa. Ni byiza cyane abantu benshi barabukunda, burabungura kubera amafaranga menshi bugira.

Umudamu uri mu kazi ko gutunganya ibishyimbo. Ari gukoresha bimwe mu bikoresho bitandukanye. Amabase, imifuka, intara ndetse akaba ari kubitunganya kugira ngo babigurishe.

Igihingwa cy’igihwagari ni byiza cyane wabikoramo amavuta yo kurya, iyo umuhinzi yagihinze kimuteza imbere nk’umuryango we n'igihugu muri rusange.

Ubunyobwa bukaranze ni bwiza cyane buraryoha, abantu benshi barabucuruza kandi abandi bakabugura cyane.

Abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bari mu gusarura umuceri bari kuwuhura kugira ngo bazawujyane ku isoko.

Umuhinzi uri gusarura ubunyobwa ni bwiza cyane, abantu benshi baragukunda, aho tubukoresha imimaro myinshi.

Igihingwa cy'amasaka atari yera, gikunda kuribwa n'inyoni cyane, abahinzi babakangurira kuyitaho kuyarinda konwa n'inyoni.

Ingano ni igihingwa cyiza cyane abantu benshi barazikunda, aho bazisarura bakazihura, maze bakazipakira mu mifuka bakazijyana ku isoko, bakabona amafaranga menshi cyane.

Ibishyimbo bahunitse mu nzu kugira ngo bitazahura n'ibintu byabyangiriza nk'imvura.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, iyo keze baragisarura, hanyuma bakagihunika kugira ngo kitangirika.

Igihingwa k'ingano, kera ahantu ho mu misozi miremire, kandi giteza abahinzi imbere, kikabaha amafaranga menshi.

Imifuka myinshi irimo ibiribwa byinshi bitandukanye, nk'umuceri, ibishyimbo, ibigori, amasaka ndetse n'ibindi byinshi.

Ibishyimbo biri mu mufuka biba bifite isuku nyinshi, kubera ko nta myanda iba irimo.

Igihingwa cy'ubunyobwa, kiri mu buhinzi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho ubuso bunini bugihingwaho.

Igare ripakiye imitwaro y'ibishyimbo ,aho bagiye kuyihura bakayikuramo ibishyimbo, maze babihanike.

Igihingwa cy'amasaka ni cyiza cyane abantu benshi baragikunda, kubera ko kugihinga biroroshye ,kandi kigira n'amafaranga menshi.

Amahundo bayashyize ku biti, bahunitse ibigori kugirango ngo bazabikoreshe mu gihe kizaza, kandi ni byiza.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo buteye imbere aho babyubakira aho kurandira, bityo ubutaka bukera neza, kandi n'abahinzi bakabona umusaruro mwiza.

Iyo impeke ndetse n'imbuto zihuye n'ubukonje zitangira kumera, maze zikazana imizi, bityo abahinzi bakazinoza.

Abadamu babiri bari gutunganya ingano. Bari kuzikuramo imyanda kugira ngo bazigurishe zisukuye.

Ibihwagari, ibihaza ndetse n'izindi mpeke zishyirwa mu butaka, maze zikamera hakavamo imyaka n'ibiribwa.

Ubunyobwa bukundwa n'abantu benshi cyane, aho n'abahinzi bafunguye amaso bakabwitaho.

Mu isoko habamo ibiribwa byinshi bitandukanye, cyane cyane ibishyimbo, umuceri n'ibindi binyampeke.

Mbere y'uko abakiriya bafata imyaka bavuye kuyigura, abacuruzi babanza kuyitunganya , bakayikuramo imyanda .

Iyo ibihingwa bisaruwe babishyira ahantu hamwe, maze bakabitunganya kugira ngo bimere neza.

Inka nziza kandi ibyibushye, iri mu kiraro ,ifite n'iherena ku gutwi. Izungura abayorora.

Inyama zirakase rwose ni nziza cyane, abantu benshi barazikunda kandi iyo uyiriye wumva umeze neza.

Abantu benshi bateraniye ku nka, kugira ngo bayitere urushinge, bayirinde indwara, bityo bizarinde igihombo.

Abantu benshi batari bakeya bafite amatereyi yuzuyeho amagi, higanjemo abagabo harimo n'abagore aho bayajyanye ku isoko.

Imishwi myinshi ,twarayituraze . Maze kugira ngo itangirika , tuyishyira ahantu hashyushye.

Umuveterineri uri gutera umuti inka, kugira ngo iticwa cyangwa se igaterwa indwara n'udusimba.

Umugabo wambaye ishati ndetse n’ingofero, ari kwita ku bworozi bwe bw’inkwavu. Ni bwiza cyane, buzamuteza imbere.

Abagabo babiri umugore umwe ndetse n'abandi bari hirya yabo, aho baje gusura amatungo magufi, bisa nk'aho ari abaveterineri.

Ubworozi bw'inka ndetse n'ihene bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda. Aho bari kuyaragira mu rwuri. Bizabateza imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Inyana y'amabara y'umukara ndetse n'umweru ni ikibamba cyiza cyane, aborozi bakunda kuzorora, kugira ngo bazabonemo umusaruro mwiza cyane.

Inkoko nyinshi cyane pe! Kandi abahinzi n'aborozi bafata amafaranga, bagashora mu mishinga yo korora inkoko.

Inka eshatu ziri mu rwuri kugira ngo zirishe, maze zikure neza zungure ba nyirazo.

Ingurube ni itungo rigufiya, riroroka cyane, harimo ibibwana bwinshi. Aho ifite ubushobozi bwo kubyara, ibyana birenga cumi na bitanu.

Ingurube iri mu mabara y'umweru n'umukara. Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane, kuko butuma nyiri ukuzorora yiteza imbere.

Umuveterineri uri gukurura umuti mu icupa rya vitamine, agiye kuritera inka kugira ngo izakure neza.

Inka nyinshi ziri mu rwuri kandi ni nziza cyane. Aborozi benshi bakunda kuzorora, maze zikabungura, zikabaha umukamo, ndetse n'inyama.

Inkoko nziza kandi nini z'amabara atandukanye kandi ziri kurya ibiryo kugira ngo zikure neza.

Inka ziri mu rwuri ziri kurisha, bizatuma zikura neza, biteze imbere nyirazo.

Ihene ziri mu matungo magufi zigira amafaranga menshi, abaturage bashaka ubwatsi kugira zikure neza.

Mu rwuri habamo amatungo menshi. Inka, intama, ndetse n'izindi. Haba rwiyemezamirimo ugura ubutaka burebure, maze akahashyira urwuri.

Imbata ni nziza cyane. Abantu benshi bakunda kuzorora, barazirya kandi ziraryoha cyane.

Mu kiraro harimo ihene iri kurisha ubwatsi, aho umworozi ajya kwahira ibyatsi, maze akazizanira.

Amagi menshi cyane ari mu matireyi, aho bazayaturaga akavamo imishwi myinshi cyane bakayigurisha aborozi.

Inka yorowe neza. Aho iri mu rwuri, bari kuyiragira, bityo bikazabagirira akamaro k'umukamo, ndetse no kubyara.

Inzu y'ubucuruzi, iriho icyapa cyanditseho veti linkis, kandi bigaragara ko, icuruza ibijanye n'amatungo.

Inka zitari nkeya ziri mu biraro, ziri kurisha ubwatsi bazahiriye, ni byiza, bizungura ba nyirazo.

Ingurube zigomba kugaburirwa ibiryo birimo intungamubiri, bityo zikera neza, zigakura. Ukazigurisha ukabonamo amafaranga.

Ingurube nyinshi zisa nk'aho zikiri ntoya, aho umushoramari azirangura kugira ngo azorore.

Inka nyinshi cyane ziri mu rwuri ziri kurisha, ba rwiyemezamirimo barazigura bakazorora bityo zikabaha umukamo ndetse n'undi musaruro.

Umworozi wishimye cyane. Aho yashoye amafaranga menshi mu bworozi bw'ihene, ni bwiza cyane, bumaze gutera imbere mu Rwanda, bizamuteza imbere.

Ingurube ni inyamaswa yo mu rugo. Ibyara ibyana byinshi, aho byungura uwayoroye, kandi ikanamuteza imbere.

Umudamu wambaye imyambaro yabugenewe. Bigaragara ko ari umuveterineri uri gutera urushinge ingurube, kugira ngo zizakure neza.

Inka yo mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, yambaye amaherena. Buri mworozi wese agomba gukingiza inka ye, kugira ngo idafatwa n'uburwayi.

Amagi menshi atondetse ku matereyi, aho uzayajyana bakayarya, cyangwa se bakayaturagamo imishwi.

Amagi y' inkoko z'inzungu ari ku matureyi aho bazayajyana ku yaturaga hakavamo imishwi.

Inka nyinshi zifite n'amabara atandukanye, ziri mu rwuri. Buri mworozi, agomba kwita ku matungo ye, kugira ngo azamuteze imbere.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho imbyeyi zibyara maze ba nyirazo bakabona umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko za kinyarwanda buri mu bwateye imbere mu minsi yashize, kandi zigira amagi aryoshye, afite n'intungamubiri kurusha iz'inzungu.

Ingurube ni nziza cyane. ingurubetu eshatu ziri mu kiraro. Zunguraga ba nyirazo, bakabona amafaranga menshi.

Inyana iri mu ruhongore, ni kibamba ni nziza cyane nimara gukura bazayorora, cyangwa bayigurishe.

Ubuhinzi bworozi ni bwiza cyane aho bashora amafaranga menshi mu bworozi bw'inkokoko, abantu benshi barazikunda kubera inyama zazo.

Abaganga basa nk'aho ari ab' amatungo, bari kuvura inyamaswa kugira ngo igarure ubuzima, niba yagize ikibazo.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane, bumaze kwamamara ahantu henshi mu gihugu cy'u Rwanda. Aho yororoka cyane, ifite ubushobozi bwo kubyara ibyana byinshi.

Umugabo wambaye bote, ari gutera umuti, wambaye ipombo, inka kugira ngo ayirinde indwara.

Inkoko ni nziza cyane, abantu benshi bakora uko bashoboye kugira ngo borore amatungo magufi harimo n'inkoko.

Inka z' inyambo ni nziza cyane, abantu benshi barazikunda aho ziri mu rwuri ziri kurisha. Zizungura nyiriz' inka.

Abagabo benshi bafite amatungo magufi, intama bari kuzigurisha kugira ngo babonemo amafaranga.

Inyoni nziza cyane aho igaragara mu mabara y'umweru n'umukara. Ikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize.

Ingagi zurira ibiti kugira ngo zibemo, kandi zikunze kuba mu ishyamba ry'ibirunga, aho zikurura ba Mukerarugendo, maze bakazana amadovize.

Inyoni nziza cyane. Ni kimwe mu bidukikije kiri ku isi, ni cyiza cyane ba mukerarugendo baza kugisura.

Ingurube yo mu ishyamba, abantu benshi baba bashaka kuyireba, ziri mu ishyamba imbonankubone.

Urukwavu rwo mu ishyamba, ruzi kwiruka cyane, nta yindi nyamaswa yatusha kuyirukankaho ngo iyifate kuko ntabwo yagerayo.

Ibisiga ni byinshi cyane mu moko ahari mu Rwanda, aho abanyamahanga benshi bayakunda.

Mbega inyoni itangaje! Ifite amabara menshi atandukanye harimo umuhondo, umukara, ndetse n'umweru.

Inzovu ni inyamaswa nziza cyane, abantu bakunda kuzireba, aho zikurura abanyamahanga benshi, bakaza mu Rwanda baje kureba ubwoko bw'inyamaswa.

Ikinyoni kinini cyane. Kiri mu mabara y'umukara, gifite n'umunwa muremure, aho kiwukoresha, kugira ngo kirobe amafi.

Igisimba cyo mu ishyamba gisa nk'ihene, kirisha ibyatsi byo mu ishyamba, intare zirakirya kugira ngo nazo zibeho.

Inyoni ni nziza cyane, zikurura ba mukerarugendo, bakaza kuzisura, bagatanga amadovize, igihugu kigatera imbere, n'abanyarwanda muri rusange.

Ingurube yo mu ishyamba irabyibuha cyane, kubera ko ibayeho irya udusimba duto two mu ishyamba bityo ikabaho neza.

Ingagi ziba muri pariki y'ibirunga, zikunda kwibera mu migano kandi nizo nyamaswa, zikurura ba mukerarugendo cyane.

Inyoni ni kimwe mu biguruka biba mu mashyamba, ni byiza cyane biteza imbere igihugu aho abanyamahanga baza kuzisura bagatanga amadovize.

Inyoni nziza cyane iri ku giti, bisa nk'aho iri mu ishyamba, bityo bikurura ba mukerarugendo.

Inyoni nziza cyane. Amabara menshi atandukanye, harimo umukara, ndetse n'umweru. Ni nziza cyane, abanyamahanga benshi bakunda kuyireba.

Inyoni nziza ihagaze hejuru ku giti aho irya udusimba dutoya cyane kugira ngo ibeho.

Inyoni iri mu ibara ry'umukara, ifite amaguru y'umutuku n'umunwa w'umuhondo n'amaso abengerana.

Inyoni ni nziza cyane, abanyamahanga bakunda kuzireba, ariko n'abanyarwanda ntibahejwe, amapariki arafunguye aho zitwinjiriza amadovize.

Igisimba cyo mu ishyamba ni inkazi. Kandi abanyamahanga bazana amadovize baje kugisura.

Ingagi ni nziza cyane ziteje imbere igihugu, aho abanyamahanga baza kuzisura bakazana amadovize bityo igihugu kigatera imbere.

Isha imeze nk'ihene yo mu rugo, ariko yo iba izi kwiruka cyane. Na yo irya ibyatsi byo mu ishyamba.

Inkima zikunda kwibera mu biti cyane cyane byo mu birunga muri pariki. Kandi abanyamahanga baza kuzireba.

Ingagi iri hejuru y'ibyuma, ihagaze isa nk'aho ifite ikintu iri kureba hirya.

Inyoni na zo zibayeho ukwazo, aho zishaka ibyo kurya mu migezi ndetse n'ibiyaga amafi.

Inyoni nziza cyane, iri mu mabara y'umuhondo, hejuru ikagira ibara ry'umukara, iri mu ishyamba abanyamahanga benshi baza kuzireba.

Igisimba gitangaje cyane ni ingagi, abantu benshi bakunda kuzireba amaso ku maso, zikurura ba mukerarugendo, bakazana amadovize.

Umuhari ni mwiza cyane kuko uri muri bimwe bikurura ba mukerarugendo, bikazana abo ngabo kubisura.

Urukwavu rwo mu ishyamba ,ni rwiza cyne . Rukurura ba Mukerarugendo. Ruzi kwiruka cyane, nta nyamaswa yindi yagerageza kururya. Ntabwo yahiga !

Inkungu ni igisimba cy'inkazi cyane mu mashamba, aho ishobora kukugirira nabi kigufashe.

Ihene yo mu ishyamba, abantu benshi bakunda kujya kuyireba mu mashyamba, kandi ni nziza cyane.

Inyoni nyinshi cyane ziri ku rutsinga rutwara amashanyarazi. Zikurura ba mukerarugendo kubera ko ni zimwe mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima.

Inyoni ni nziza cyane ziba mu mashyamba menshi, zikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, igihugu kigatera imbere nk'abanyarwanda muri rusange.

Inkima zigaragara cyane mu mashyamba, aho zibera mu biti bigakurura cyane ba mukerarugendo, maze bakatuzanira amadovize.

Ikiguruka kiri mu ishyamba, ni kimwe mu bigize ibidukikije, ni byiza cyane, bituma igihugu kigaragara neza.

Ikigona n'ikiguruka kirya inyama, kandi kikarya n'utundi dusimba dutoya, ni cyiza abanyamahanga bakunda kukireba.

Agacurama ni inyamaswa abantu benshi batabona cyane, kuko zikunda kugenda nijoro.

Igikeri kiba gifite amabara menshi ,higanjemo ay'umukara n'amagaragamba ku ruhu rwacyo, kandi kiba mu ishyamba.

Inyoni nziza cyane iri mu mabara menshi atandukanye umweru, umukara, amaso abengerana, ikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize.

Inyoni nziza ihagaze ku giti, ifite akagofero k'umukara n'umunwa ufite amabara menshi atandukanye, zikurura ba mukerarugendo.

Inyoni nziza cyane ziri mu mabare y'umukara, ndetse n'amaso abengerana, ziri mu ishyamba ni zimwe mu bigize ibidukikije.

Inyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba yitwa inzoka iyo ikurumye iyo utihutiye ku bitaro havamo gupfa.